Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane siporo ngororamubiri. Ni inyubako ubona ko yubakishije ibikoresho by'ibyuma kandi yubakanye ubuhanga.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo amabara y'umweru ubururu n'umukara, ni ahantu ubona ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Umwana uri gukaraba intoki n'amazi n'isabune, yambaye umupira w'ubururu. Uyu mwana kandi arishimye kandi aranezerewe, ari gukarabywa n'umubyeyi umuhagaze iruhande.

Abagabo batatu n'abagore babiri bari ku gishushanyo ubona ko bari kwamamaza ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo abantu babagane babone abakiriya.

Icyumba kirimo abarwayi ndetse n'abaganga bambaye imyenda y'umukara ndetse n'ubururu ni icyumba kirimo abantu batandukanye ubona ko baje kureba serivisi zitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'ubururu, umweru n'umutuku, ni inyubako ubona ko iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ibya siporo ndetse n'indi myitozo ngororamubiri.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo abagore ndetse n'abakecuru, bambaye imyenda y'umweru, ubururu, umukara, ndetse n'andi mabara atandukanye.

Umukecuru uri ku iriba waje kuvoma amazi, afite ijerekani y'umuhondo. Yambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku. Ari kuvoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu bikorwa bitandukanye.

Umwana uri kuvoma amazi, kuri kandagira ukarabe. Kandagira ukarabe, ni igikoresho cyifashishwa mu gukaraba kugira ngo umuntu yirinde indwara zigiye zitandukanye, zituruka ku mwanda.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, biganjemo, abakobwa, abagore n'abagabo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu.

Umurwayi uri kwa muganga ari gusuzumwa n'umuganga, yicaye ku ntebe yabugenewe, ifasha abantu kumva baguwe neza, aha hantu kandi harimo n'izindi ntebe zitandukanye.

Iki ni ikigega kibamo amazi kuko baba bayaretse maze akajya muri kino kigega. Gifite imireko iyatangira maze ikayayoboramo.

Umuganga uri kwita ku murwayi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru. Biragaragara ko bafite ikibazo cy'umwana urwaye warembye, bityo bakamuzana kwa muganga.

Umuntu uri gukaraba akoresheje igikoresho cyabugenewe akoresha amazi ndetse n'isabune, gukaraba ni byiza kuko bikurinda kwandura indwara zigiye zitandukanye.

Umugore uri ku iriba waje kuvoma amazi. Afite amajerekani y'umuhondo kandi manini. Iyo umuntu akoresheje amazi neza, bituma adakoresha amafaranga menshi mu buzima bwe.

Umukobwa urimo kuvoma amazi ku iriba, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umweru, arimo aravoma akoresheje ijerekani y'umuhondo.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'imipira y'umutuku, bicaye munsi y'igiti ubona ko bari gukora ibikorwa bitandukanye.

Umwana waje ku iriba arimo kuvoma amazi, yasetse ndetse yateze ibiganza ku iriba, biragaragara ko yishimye kandi uyu mwana ameze neza.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, byiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umukara, bigaragara ko ari ahantu heza kandi hakeye.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, hateretse amajerekani baje kuvomeramo menshi, muri ayo majerekani kandi harimo amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Inyubako nini yifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo: amabara y'umweru, icyatsi, ndetse n'umukara, hirya yayo hari izindi nzu ubona ko ziforomye nka yo.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye biganjemo abagore baje kuvoma amazi, bafite amajerekani menshi bigaragara ko yose barayavomera.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, ubururu ndetse n'umweru, ni abantu bafite ibipapuro mu ntoki ndetse bambaye n'indorerwamu z'amaso.

Umuganga uri gutera urushinge umurwayi, yambaye uturindantoki ndetse n'imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru. Iyo umuntu yivuje kare bituma agira ubuzima bwiza, kandi kwirinda biruta kwivuza.

Abaganga bateranye mu nyubako barimo baraganira, imbere yabo hateretse ibinini, ndetse bari kureba muri kamera bishimye.

Umwana urimo arakaraba intoki n'amazi n'isabune. Yambaye imyenda irimo amabara y'mweru n'umutuku. Iruhande rwe hari akabasi k'umuhondo arimo arakarabiramo.

Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi barimo abakobwa n'abasore ni benshi cyane kandi bakeneye amazi yo gukoresha kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bari mu nyubako nini biganjemo: abagabo, abagore, ndetse n'abasore. Bambaye imyenda yiganjemo amabara: y'umweru, icyatsi, ubururu, n'umukara.

Umugore uri kuvoma amazi akoresheje ijerekani y'umuhondo, yambaye umupira w'ubururu ndetse afite n'igitambaro akenyeye kandi arishimye.

Umwana wambaye umupira urimo amabara y'umweru n'umukara, yambaye ikabutura y'umutuku, arimo kuvoma amazi akoresheje ikiganza, kugira ngo abone ayo kunywa kuko nta gikombe afite.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu nyubako iberamo inama bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru ndetse bambaye n'indorerwamo z'amaso. Biragaragara ko bari kwiga ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye.

Kwa muganga aho basuzumira indwara zigiye zitandukanye, hariyo umurwayi uri guterwa urushinge, uyu murwayi ni umugabo w'umusaza ubona ko akuze.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'Igihugu, bambaye imyenda y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi. Aba bantu ni abo mu bice bitandukanye by'Igihugu.

Umuntu uri guterwa urushinge n'umuganga yambaye imyenda y'imyeru, uno muntu kandi ni umugore bigaragara ko akuze, uyu mugore afite agapfukamunwa.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye ba banyeshuri, aba banyeshuri biga mu mashuri abanza, aho bari gukaraba bakoresheje amazi n'isabune.

Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, harimo abana ndetse n'umukecuru. Bashaka amazi yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'ubururu. Ni abantu baturutse mu bice byo hirya no hino mu Gihugu.

Abantu bari mu nyubako ubona ko barimo kuganira bicaye ku musambi, ni abantu benshi ubona ko higanjemo urubyiruko, aba bantu bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore, ndetse n'abasaza. Bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, n'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, urimo arakaraba intoki n'amazi n'isabune. Yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Arishimye kandi aranezerewe.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye mu nyubako nini ubona ko bishimye kandi banezerewe, bambaye amakoti meza y'amabara y'umukara ndetse n'amashati y'amabara y'umweru.

Umugore uteruye umwana, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umweru, umuhondo ndetse n'ayandi atandukanye, inyuma ye hari undi mugore wicaye ubona ko na we akeneye serivisi ahabwa na muganga.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana, icyo cyumba kirimo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Umugore wambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, icyatsi n'umutuku, biragaragara ko uyu mugore yishimye kandi anezerewe, afite indobo mu ntoki arimo arayoza.

Umugabo wambaye ikoti ryiza ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati, ni umugabo ubona ko ari umusirimu kandi ari mwiza bityo akora akazi ke neza.

Inyubako nini yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, biganjemo abagabo bambaye amakoti meza, amashati n'imipira, imbere yabo hari abayobozi bari kubagezaho inama zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abasaza abakobwa ndetse n'abagore, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara umweru ubururu ndetse n'umuhondo.

Inyubako yateraniyemo ababyeyi bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, umutuku, umukara ndetse n'umweru. Bicaye imbere y'abaturage, ibona ko barimo kubagezaho ibintu babateguriye.

Umwana uri kuvoma amazi ku iriba, wambaye imyenda yiganjemo umukara ndetse n'umweru, ari kuvomera mu ndobo nyinshi zitandukanye ubona ko yishimye kandi anezerewe.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu n'umukara, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Umugore n'umugabo bari kwitabwaho n'umujyanama w'ubuzima. Ari kugenda abagira inama y'ibyo bakora kugira ngo urugo rwabo ruzabashe kumera neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umutuku. Barimo baravoma amazi bakoresheje intoki kubera ko bafite icyaka.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu. Imbere y'abo hahagaze umugore uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Abanyeshuri baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru ndetse bafite n'ibikombe by'umutuku bari kunywa amazi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abarwayi ndetse n'abaganga, bari mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho abarwayi bahurira bagahabwa ubufasha bw'ibanze.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hateretse ibiryo. Barimo kurya akawunga n'ibishyimbo, ibi ngibi kandi bituma umuntu agira imbaraga agakomera.

Abana bari kuvoma amazi atemba amazi. Amazi atemba ashobora gutera indwara zigiye zitandukanye kubera ko aba arimo inzoka zishobora kujya mu muntu.

Icyumba cyahuriyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'umutuku. Ni inyubako nini ubona ko yakira abantu benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku. Bari mu nyubako nini ubona ko bari mu nama.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu, biragaragara ko ari abaganga batanga serivisi baziha abarwayi.

Urujya n'uruza rw'abana bambaye imyenda yiganjemo umukara, ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, baje kuvoma amazi ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umweru n'umuhondo. ni ahantu ubona ko hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi ndetse n'inama zihabera.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye ku iriba bafite indobo ndetse n'amajerekani, abo bantu higanjemo abana abagabo ndetse n'abagore.

Urujya n'uruza rw'abana baturutse mu bice bitandukanye, barimo kunywa amazi bambaye imyenda yiganjemo umweru umukara, ndetse bafite ibikombe by'icyatsi mu ntoki.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo urubyiruko, ababyeyi ndetse n'abana, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'ubururu.

Abantu bicaye kumeza bayakikije, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umuhondo, umutuku ndetse n'andi mabara agiye atandukanye, ni abantu benshi ubona ko bishimye.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umukaru umweru n'ubururu, imbere yabo hari abayobozi ubona ko bari kwita ku baturage babaha serivisi nziza.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, iroza, umukara, ndetse n'umweru, bategereje umuganga ubafasha.

Abantu bahuriye mu nyubako nini biga ku bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ingamba bafashe zabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inshinge zikoreshwa na muganga azitera abarwayi kugira ngo abakingire ibibazo bigiye bitandukanye bafite, iyo bagusanganye indwara bagutera urushinge kugira ngo ukire.

icyumba kinini cya teraniyamo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo, umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'umweru, ni abantu bambaye ingofero nziza ndetse n'indi myenda itandukanye.

Umusaza uri kwitabwaho n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Hirya ye hahagaze undi mwana muto w'umuhungu ubona ko arimo kugenda abitegereje.

Umwana wambaye imyenda y'imituku yivanzemo n'utubara tw'umukara arimo gukaraba ku iriba amazi n'isabune kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore n'abana. Ni abantu bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umutuku, ndetse n'ubururu.

Inyubako nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, umutuku, ndetse n'ubururu. Bambaye amakote meza, ubona ko baberewe.

Abana bahuriye ku iriba, baje gukaraba amazi n'isabune, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Aba bana bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda irimo ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu, imbere ye hari ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa kugira ngo bavure abarwayi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'umutuku, harimo abayobozi bicaye ku ntebe z'imbere bari kubagezaho imbwirwaruhame.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore, abagabo ndetse n'abasaza, biragaragara ko ari abantu bahuriye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bigiye bitandukanye.

Umwana wambaye agapira gatukura n'ikabutura y'ubururu, ateze igikombe ku iriba arimo aravoma amazi kugira ngo ayakoreshe ayanywe.

Abana baturutse mu bice bitandukanye bari ku iriba bari kuvoma amazi. Aba bana biragaragara ko bayakeneye kandi bayashaka, kugira ngo babone ayo kunywa kubera ko bafite icyaka.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, biganjemo abanyabuzima, bafasha abarwayi gukira indwara zigiye zitandukanye. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara n'umweru.

Umukobwa wambaye imyenda itukura ndetse irimo n'amabara y'umuhondo, uri gukaraba ku iriba akoresheje amazi n'isabune kugira ngo yirinde indwara zigiye zitandukanye zandura.

Umwana uri kuvoma amazi akoresheje igikombe kirimo amabara y'umuhondo. Amazi ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi kuko akurinda indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo amabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umukara, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Abagabo bateraniye mu nyubako bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, bicaye imbere y'ameza ateretseho ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kuvoma amazi biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana. Ni ahantu ubona ko hari iriba rigomba kuvomwamo amazi bigoranye.

Umugore urimo gusoroma imboga ari kumwe n'umwana wambaye imyenda y'umweru, uyu mwana arishimye kandi ari guseka bigaragara ko anezerewe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagore ndetse n'abasore, bari guterura imifuka y'umuceri, iy'akawunga, ndetse n'indi mifuka y'ibindi bicuruzwa.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'ubururu, ubona ko bari mu bikorwa bitandukanye byo kwirinda indwara zandura.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo n'umweru.

Umurwayi uri kwitabwaho na muganga. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse bicaye ku gitanda. Ni ahantu heza ubona ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Urubyiruko rwambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'amapantaro y'umukara barishimye kandi baranezerewe baseka bishimye.

Kwa muganga, aho bavurira indwara zigiye zitandukanye. Hariyo abarwayi bahuriyeyo baje kwivuza indwara. Hariyo kandi abagore benshi bafasha abo barwayi.

Abantu baturutse hirya no hino, bambaye imyenda y'ubururu n'umukara, aba bantu kandi ni abayobozi bahuriye mu nama, barangije gukora inama barifotoza.

Abantu bahuriye ku iriba bafite indabo z'umweru ubururu n'umuhondo baje kuvoma amazi, amazi ningirakamaro mu buzima bwa buri munsi kuko afasha abantu gukora ibikorwa bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abasirikare ndetse n'abandi bayobozi baje gufasha abana bafite ibibazo by'imirire mibi kugira ngo babahe amata bazanzamuke.

Umwana uri kuvoma amazi ku kigega akoresheje igikombe. Iyo unyweye amazi mabi bituma ugira indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abantu baturutse hirya no hino bahuriye ku iriba, baje kuvoma amazi, aba bantu kandi bafite amajerekani manini bifashisha batwaramo amazi kugira ngo babashe gucyura menshi.

umwana uri kuvoma amazi, wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umutuku, ufite ijerekani arimo kuvoma amazi ku iriba, imbere ya hateretse amajerekani atatu.

Abantu baturutse hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo: umukara, umweru ndetse n'umuhondo, bari mu cyumba kinini ubona ko gikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'icyatsi, umweru, umukara n'umutuku. Bari mu nyubako irimo intebe nziza z'imisego zifashishwa mu nama.

Abagore bambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, umukara n'ubururu, imbere yabo hari umugore uri kubagezaho ijambo ubona ko asa nkurakaye kandi atishimye.

Umubyeyi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, uhagaze imbere y'indangururamajwi ari kugeza ku baturage imbwirwaruhame kugira ngo bitabiriye batahane mesaje cyangwa se ubutumwa.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana. Ni abantu babona ko baberewe n'imyenda bambaye, yiganzemo amabara y'ubururu, umukara n'umuhondo.

Umusore wambaye umupira w'umweru ufite ubwanwa bwinshi, arimo araseka ndetse bigaragara ko afite umutwe munini, afite imibiri yombi.

Abantu bahuriye ahantu hamwe mu gace, barimo baraganira ubona ko bishimye, abo bantu harimo abagore batatu, umusaza umwe ndetse n'umwana wicaye hirya ku ruhande.

Abantu biganjemo abakecuru ndetse n'abagabo, bahuriye kwa muganga. Barimo barasobanurirwa ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza. Uburyo bakwita ku buzima bwabo.

Umusore wambaye umupira urimo amabara y'ubururu n'umweru, yicaye mu cyumba ahantu yigunze, ubona ko afite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, akeneye umufasha.

Abana batandukanye bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umweru, n'umutuku, aba bana barishimye kandi baranezerewe bityo ukabona ko bakeye kandi basa neza.

Umusore wambaye ubusa, yambaye amapingu ku maguru ari mu cyumba ubona ko ari wenyine. Uyu musore biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe kandi akeneye ubufasha.

Umugabo usa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye mu mugenda. Uyu mugabo yambaye imyenda yacitse kandi afite ikibazo biragaragara.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo abagore ndetse n'abana bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara, ndetse n'ubururu bigaragara ko bishimye.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bahagaze ku nyubako nini bambaye imyenda y'umweru umukara ndetse n'ubururu. Aba bantu harimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa.

Umugore wambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'umukara yikoreye igitebo avuye gukuriramo ibijumba, hirya ye hari inzu isakaje amategura.

Umusaza wambaye amapingu bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Uyu musaza kandi wagirango yacitse yari ari muri gereza.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse hirya no hino, biganjemo abagabo abasaza ndetse n'urubyiruko, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ubururu ndetse n'andi y'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'imikara ndetse n'umweru. Bari imbere y'inyubako nini, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, harimo iby'ubuvuzi n'ibindi.

Abantu bahuriye mu cyumba cy'inama barimo baraganira ku bibazo bigiye bitandukanye, imbere yabo hari umugore wambaye ikanzu y'umweru uri kugenda abagira inama.

Umugabo wambaye imyenda yacitse bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ateruye ibintu bigiye bitandukanye harimo amashashi ndetse n'ibikapu byacitse bimugaragaza ko afite ikibazo.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umukara, umweru, umutuku ndetse n'ayandi mabara bambaye. Bari kureba imbere ubona ko bitegereza umuyobozi.

Abantu baturutse hirya no hino bahuriye mu gace kamwe. Aba bantu bahurijwe hamwe n'ikintu gikomeye kandi kibafasha kunguka ubumenyi. Bicaye mu ntebe z'umweru.

Inyubako nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye. Harimo abantu bambaye imyenda y'umweru, umutuku, ubururu n'umukara. Hari intebe nziza abantu bicayeho.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku irimo amabara y'ubururu, ari kumwe n'undi wambaye imyenda yacitse, bigaragara nka ho arwaye, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umubyeyi wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo, afite imisatsi myinshi ndetse yambaye indorerwamo z'amaso, inyuma ye hari inyubako irimo ibara ry'umuhondo n'umweru.

rUujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye biganjemo abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi, bari mu nyubako nini ubona ko bishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bari gukora ibikorwa by'umuganda, aba bantu bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umweru.

Umukecuru uteze igitambaro mu mutwe w'imibiri yombi arimo kureba hakurya, yambaye umukufi mu gatuza ubona ko ababaye akeneye umuntu umufasha.

Umwana urimo kurira, iruhande rwe hagaze umubyeyi wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku umuhondo n'umukara, ubona ko ari abantu baturutse muce byinshi by'igihugu.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'umutuku, ni abantu ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Imodoka nini yiganjemo amabara y'umweru n'ubururu ifite amapine y'umukara, iparitse ahantu mu kibuga kinini kiberamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi n'ubucuruzi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore n'abasaza biragaragara ko ari umukecuru ndetse n'umusaza bari kuganira ku ruhande.

Inyubako nini yahuriwemo n'abantu baturutse mubi bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umuhondo, umweru n'ubururu, iruhande rwabo hari ameza manini akoze neza.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, bambaye imyenda irimo umutuku, umweru n'umukara. Bicaye mu ntebe nziza, barimo kwitegereza imbere ibirimo kuhabera.

Abakecuru bambaye imyenda itandukanye, harimo umwe uteruye umwana ndetse arimo kumwonsa, bose uko ari batatu bafite inkoni mu ntoki kandi bari kureba muri kamera.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umukara, icyatsi n'ubururu, ku kameza hateretse icupa ry'amazi ndetse harambitseho igitambaro cy'umuhondo.

Umugore warakaye ari kurebana uburakari bwinshi, yiteze igitambaro mu mutwe kirimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Umugore uteruye umwana urimo araseka, afite imisatsi myinshi ubona ko ari myiza yiganjemo amabara y'umukara menshi, ni umugore w'imibiri yombi.

Amabara y'umweru n'umukara akunze gukoreshwa ahantu henshi hagiye hatandukanye cyane cyane kwa muganga kubera ko ibikoresho byaho byinshi bikunze kuba biri mu mabara y'umweru n'umukara.

Abana bambaye imyenda y'icyatsi bari kwitabwaho ndetse bahabwa ubufasha bujyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, bari kwitabwaho ndetse n'umuganga wabiherewe ubumenyi.

Umwana uri gusukura amenyo, wambaye imyenda yiganjemo umweru, afite uburoso mu ntoki ari gukoresha asukura amenyo. Gucukura amenyo ntabwo ari ngombwa gukoresha uburoso gusa, ahubwo wakoresha n’akadodo.

Icyumba kinini kirimo umuganga n'umurwayi wambaye imyenda yiganjemo umweru icyatsi n'ubururu, bari mu nzu igaragara mucyumba gitoya kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'amabara y'ubururu.

Igikoresho bifashisha bavura amenyo, kigaragara mu ishusho y'umukara n'umweru, bagifotoje imashini kugira ngo berekane amenyo y'umuntu umubare wayo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo amabara y'umweru n'umutuku, harimo ibikoresho byinshi ubona ko bifasha abarwayi kandi bagakira vuba.

Umukobwa uri gukoresha akadodo yisukura amenyo, ntabwo bihagije gukoresha uburoso gusa kugira ngo usukure amenyo biba byiza ukoresheje n'akadodo.

Icyumba kinini kiberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, harimo intebe nziza zigezweho kandi harimo n'amabara agiye atandukanye.

Umusore urimo guseka, yambaye imyenda y'imyeru. Ni umusore mwiza ubona ko akeye kandi akorera isuku amenyo ye.

Urujya n'uruza, rw'abantu bahuriye mu gace kamwe, batonze umurongo, bari kwaka serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho bitabwaho n'abaganga.

Umugore wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, n'ubururu ari kwireba mu ndorerwamo kugira ngo arebe ko asa neza kandi acyeye, bityo bimufashe kubaho neza.

Umwana uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo, yambaye imyenda irimo amabara y'ubururu. Muganga arimo kumusuzuma ngo arebe ikibazo afite.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umweru, umukara ndetse n'ubururu, ni abantu ubona ko bishimye kandi banezerewe bityo bigatuma basabana kandi bakagirana umubano.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse no hirya no hino bambaye imyenda yiganjemo umweru, bafite imisatsi myinshi ubona ko bireba mu kirahure bafite agakoresho kabugenewe mu gusukura amenyo ariko bita akadodo.

Umusore ufite akadodo kifashishwa mu gusukura amenyo. Yambaye umupira w'umweru, bigaragara ko uyu musore yishimye kandi anezerewe. Ni umusore w'imibiri yombi, ufite imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu na mirongo itatu.

Umusore urimo guseka wambaye umupira w'umweru, uyu musore kandi biragaragara ko akorera amenyo ye isuku kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Icyumba kinini kirimo abaganga babiri, bari kuvura umwana mu kanwa, bambaye imyenda yiganjemo umweru n'umuhondo ndetse bambaye n'udupfukamunwa.

Abana bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ndetse n'ibara risa nk'ivu, bari mu cyumba kinini bigiramo kirimo intebe nziza ndetse n'ikibaho.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana, ari kumwigisha gukoresha uburoso asukura amenyo, gukoresha uburoso ntabwo biba bihagije, kubera ko umuntu ashobora no kwifashisha akadodo gasukura amenyo kurushaho.

Umusore wambaye indorerwamo z'amaso, afite ubwanwa bwinshi. Arimo araseka kandi yitunze urutoki ku menyo. Uyu musore yambaye umupira w'umweru.

Umugabo wambaye umupira wumukara urimo arireba mu kirahure yambaye indorerwamo z'amaso imbere ye ubona ko hari ibikoresho byifashishwa mu gusukura amenyo.

Umwana uri kumwe n'umusore, bari gukoresha akadodo basukura amenyo. Bambaye imyenda irimo amabara y'umweru ndetse bafite n'imisatsi myinshi.

Umwana w'imibiri yombi uri kuvurwa kwa muganga afite imisatsi myinshi ubona ko afite ikibazo cy'amenyo ari kwitabwaho na muganga kugira ngo abashe gukira asubire mu buzima busanzwe.

Umusore wambaye umupira w'umweru uri kwireba mu kirahure, afitiye akadodo kabugenewe mu gusukura amenyo kubera ko gukoresha uburoso bidahagije kugirango amenyo abe akeye.

Umukobwa mwiza uri gukoresha akagozi asukura amenyo. Amenyo ye ni umweruru bigaragare ko ayakorera isuku. yambaye kandi ingofero y'umweru kandi ikeye.

Inyubako nini irimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, harimo abaganga ndetse n'abarwayi, bambaye imyenda y'umweru n'ubururu ndetse n'icyatsi, ubona ko bari kwita ku murwayi kugira ngo akire.

Umwana ufite imisatsi myinshi wambaye iherena ku gutwi yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo ari guhabwa serivisi n'umuganga amuha ndetse amuvura indwara zo mu kanwa.

Umusore uryamye ku gitanda arimo arahabwa ubufasha ku kibazo kijyanye n'indwara y'amenyo, yambaye imyenda y'umukara kandi myiza cyane.

Umusore wambaye umupira wumukara ufite imisatsi myinshi, ari guhabwa serivisi y'ubuvuzi bw'amenyo, kugira ngo abashe gushyira kuko iyo umuntu afite ubuzima bwiza aba yumva anezerewe.

Umwana uri gukoresha uburoso asukura amenyo yambaye imyenda yiganjemo icyatsi, umweru ndetse n'umuhondo, yicaye ku ntebe nziza irimo amabara y'ubururu.

Umukobwa urimo kwiborosa akoresheje uburoso, iyo umuntu akoreye amenyo ye isuku bituma agira ubuzima bwiza, uyu mukobwa kandi yambaye iserengeri y'umweru.

Umuganga wambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, uri kwita ku murwayi amuvura indwara y'amenyo kugirango abashe gukira, bari mu nyubako nini isa neza yiganjemo amabara y'umweru.

Umusore ufite ubwanwa bwinshi n'umusatsi mukeya, yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'ubururu, ikigaragara ari kuvurwa amenyo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa w'imibiri yombi, ufite imisatsi myinshi urimo kumwenyura, n'umukobwa mwiza ubona ko akeye kandi ajijutse bityo bigatuma agaragara neza.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru arimo kumuvura indwara zigiye zitandukanye, uyu mukecuru afite imvi nyinshi nk'uko bigaragara, ni umukecuru ubona ko akuze.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abasaza ndetse n'umusore ubona ko yambaye imyenda y'icyatsi n'umweru arimo abitegereza.

Abakecuru babiri barimo kuganira harimo umukecuru wambaye agapira k'umutuku n'undi wambaye agapira k'ubururu, barishimye kandi baranezerewe.

Umusaza uri kumwe n'umuganga, aho ari kumwitaho amuha serivisi z'ubuvuzi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umukara, hirya yabo hateretse ibikoresho bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, aho abantu baturuka hirya no hino bagahabwa serivisi nziza ndetse n'ubufasha bw'ibanze bityo bigatuma bamera neza.

Umukecuru uri imbere y'abaturage, uri kubagezaho imbwirwaruhame. Afite indangururamajwi mu ntoki ndetse yambaye imyenda y'umweru n'ubururu, ari ahantu hari ihuriro ry'abantu benshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umweru ndetse n'umukara, ni abantu ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Abantu bahuriye munsi y'igiti bari kuganira ku bikorwa bigiye bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, ubururu n'umutuku. Bicaye ku ntebe nziza z'imyeru ndetse n'izindi z'ubururu.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu batandukanye barimo umusaza ndetse n'umugore, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'andi mabara agiye atandukanye.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru, urimo aramuvura. Uwo mukecuru biragaragara ko akuze, afite imyaka myinshi, bityo akeneye umwitaho kugira ngo ubuzima bwe butaba bubi.

Abakecuru baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyitero iri mu ibara ry'umweru, bambaye n'imipira y'umutuku, iruhande rw'abo hari urubyiruko rubaherekeje.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ubururu ndetse wambaye n'inkweto nziza ari mu nyubako abona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru barimo baraganira, bose bafite imvi mu mutwe kandi bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'ubururu.

Umusaza uri kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umweru n'umuhondo, bari mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho bafite ibitabo imbere yabo barebamo imyirondoro.

Inyubako irimo umusaza wambaye umupira w'umuhondo, yambaye ipantaro y'umukara, ubona ko ari gukurura urudodo, umuganga amukoresha imyitozo kugira ngo arebe niba yakize.

Abagabo babiri bateruye umusaza mu maboko, bose ubona ko bafite impungenge y'uko yakwitura hasi, uyu musaza afite imvi nyinshi kandi yambaye imyenda y'imikara.

Inyubako nini yateraniyemo umusaza ndetse n'umubyeyi uri kumwitaho, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, umukara ndetse n'ayandi mabara atandukanye, bari ahantu hatangirwa serivisi zbuvuzi.

Umuganga urimo kwita ku musaza arimo aramuvura indwara zigiye zitandukanye. Ari kumuha imiti imufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara, uwo muganga arimo aritegereza uyu mukecuru.

Umusaza uri guhabwa ubufasha na muganga amwitaho kugira ngo agire ubuzima bwiza, yambaye indorerwamo z'amaso ndetse ubona ko hari akantu ari kumuha k'umuhondo ngo agakurure.

Abantu batandukanye barimo ababyeyi abana n'abakobwa, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara, biragaragara ko bishimye kuko ni umuryango wahuriye hamwe.

Umuganga uri kumwe n'umusaza barimo kugenda bumvikana ku bintu bigiye bigiye bitandukanye. Umuganga ari kureba umusaza mu maso na we akamwitegereza.

Icyumba cyateraniyemo umusaza ndetse n'umugore w'umuganga urimo kumuha ubufasha bw'ubuvuzi, ni umusaza ubona ko ajijutse kandi amenyereye iby'ikoranabuhanga.

Icyumba kinini kirimo umusaza ndetse n'umusore bari gusoma igitabo, uwo musaza yambaye indorerwamo z'amaso ubona ko bishimye kandi banezerewe.

Umukecuru wicaye mu kagare k'umukara, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu. Yicaye ku ntebe uwo muganga, afasha umukecuru uri mu kagare.

Icyumba kirimo umuganga uri kuvura umurwayi w'umusaza, bambaye imyenda yiganjemo umukara, ubururu ndetse n'umuhondo, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abasaza bakuze, bari mu nama ubona ko biga ku bintu bigiye bitandukanye.

Umugabo uri gukina umupira n'umwana, bari kugenda biruka bagaruka bongera bagenda, uyu mwana yatojwe hakiri kare.

Inyubako nini irimo umusaza n'umugore ubona ko bari gukora imyitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ni myiza kuko ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo wifashe mu gahanga ubona ko afite ibibazo bitandukanye, imbere ye hari igitabo ari kugenda arebamo kugira ngo agabanye ibyo ari gutekereza maze abone ibyo ahugiramo.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru, bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umukara. Iyo umuntu akoze neza, agira ubuzima bwiza, bityo akabona ibimutunga byiza kandi birimo intungamubiri.

Abagabo babiri bagenda baganira ndetse bungurana ibitekerezo, umwe yambaye ingofero undi ntayo yambaye, bose bari kuva mu cyerekezo kimwe.

Abagabo babiri barimo kwiruka bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'umukara, bafite n'amacupa y'amazi mu ntoki bari kugenda banywa.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abakecuru ndetse bafite terefone mu ntoki. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye biganjemo abagore n'abakobwa, bambaye imyenda y’umutuku, umweru ndetse n'umukara, bigaragara ko bari guseka bishimye.

Umusaza uteruye umwana, bigaragara ko uyu mwana afite imibiri yombi. Uyu musaza afite imyaka hejuru ya mirongo itanu uko bigaragara.

Urujya n'uruza rw'abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri, biganjemo umugabo n'umugore. Bambaye imyenda myiza yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara. Iyo umuntu akoze siporo agira ubuzima bwiza.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umweru. Umusaza yambaye indorerwamo z'amaso, bigaragara ko ari kugenda yoroherwa.

Umugabo uri kumwe n'umukecuru bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu. Biragaragara ko umukecuru yishimye ndetse n'umusore yishimye, bityo bigatuma babaho neza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abakecuru, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku, umukara ndetse n'umweru, barimo barasoroma icyayi.

Abantu baturutse hirya no hino, bahuriye mu nyubako, barimo baraganira. Biganjemo abagore ndetse n'abakobwa. Bambaye imyenda y'umweru.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, uri ku rupapuro ashushanyijeho. Iruhande rwe hariho amabara yu'mweru, umutuku, n'umukara. Uyu mukobwa biragaragara ko yishimye.

Inyubako yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru. Barishimye kandi baranezerewe, bityo bigatuma babaho neza.

Abantu bane harimo abakobwa babiri n'abasore babiri, bari ku ifoto bari kureba muri kamera. Aba bantu kandi bambaye imyenda irimo umweru, umukara ndetse barishimye.

Abantu baturutse hirya no hino baje gufata imiti kwa muganga, aba bantu bose bambaye imyenda isa irimo ibara ry'umutuku, barishimye kandi barasa neza cyane.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umukara ndetse n'umweru, imbere yabo hateraniye abayobozi baturutse mu bice bitandukanye.

Ikirango kibwiriza abantu kwirinda indwara y'Ubushita bw'Inkende, iyi ndwara niyo yazengereje abantu rero bagomba kuyirinda.

Abaganga bari kuvura umurwayi, bose bambaye imyenda y'icyatsi, aba baganga kandi ni inzobere mu by'ubuvuzi kuko babyigishijwe.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, bambaye amakote meza, ndetse n'amashati y'umweru. Hari umugabo w'inzobe, wambaye indorerwamo z'amaso.

Umuganga uri kwita ku murwayi amutera urushinge ku rutugu, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru icyatsi ndetse n'ayandi agiye atandukanye.

icyumba kinini kirimo abantu baturutse mu bice bitandukanye, imbere yabo hari umugore mwiza wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ijipo y'umweru irimo utubara tw'umutuku.

Inyubako nini iri kuberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo abantu bambaye imyenda y'umweru, umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'ayandi mabara agiye atandukanye.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye impande n'impande bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'icyatsi . Bari mu nyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo, abagore n'abakobwa. Bambaye amakoti meza ndetse harimo n'umugore wambaye ikanzu y'umuhondo.

Umuntu uhagaze imbere yinyubako yiganjemo amabara y'ubururu umuhondo icyatsi n'umukara, ubona ko ari inyubako nziza kandi igaragara neza.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame, ayigeza ku baturage. Yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara. Iruhande rwe hari ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, umutuku, umuhondo ndetse n'umweru. Aba bantu bagaragara nk'abishimye.

Umugore w'umuzungu wambaye umupira utukura. Uyu mugore afite imisatsi myinshi y'umukara kandi urabona ko ari umugore ukeye. Iyo umuntu akoze isuku, bituma agira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo umusore n'umukobwa bambaye imyenda y'umukara n'umweru bafashe ku gipapuro cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kuko kiravurwa kigakira.

Icyumba cyahuriyemo ababyeyi baje gukingiza abana bambaye imyenda y'umukara, umweru, ubururu ndetse n'umuhondo barishimye kandi baranezerewe.

Abaganga babiri bari kuvura umurwayi uryamye hasi, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umukara. Uyu murwayi asa nkaho arembye akeneye ubufasha bwihuta.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga kugira ngo basuzume indwara zigiye zitandukanye zifata abantu.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ubururu. Ni inyubako nziza ubona ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi wambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu n'umukara, bari mu bitaro ubona ko ari kumuha serivisi nziza y'ubuvuzi kugirango abashe gukira.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara agiye atandukanye, cyane cyane: ay'umweru, umukara, ndetse n'umuhondo. Iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi.

Inyubako nini irimo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara. Iyi nyubako hagati hanyuramo umuhanda wa kaburimbo, ukomeza ugenda hirya.

Umugabo uri mu cyumba ubona ko kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa kwa muganga kugira batange serivisi nziza y'ubuvuzi, ni ahantu ubona ko hari ibikoresho byinshi bifashisha.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane bahavurira abarwayi. Aha hantu kandi hari ibikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane byifashishwa kwa muganga kugira ngo bakire.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, byiganjemo ibitanda, matela, ndetse n'ibindi bikoresho, abarwayi bifashisha bari kwa muganga.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo iby'ubuvuzi ndetse n'ibindi bitandukanye, harimo imiti yifashishwa ubuzima bwa buri munsi abantu banyuramo.

Icyumba kinini kirimo umuganga uri gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'ayandi atandukanye.

Umugore ushushanyije ku rukuta wambaye indorerwamo z'amaso. Iki ni ikimenyetso kiranga ko aha hantu hacururizwa indorerwamo z'amaso, kugira ngo abantu baturutse hirya no hino baze bazigure.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, n'ahantu heza cyane hakorerwa ubucuruzi, ubuvuzi, ndetse n'inama zitandukanye ziberamo ibikorwa byinshi.

Inyubako nini irimo amabara yicyatsi, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, mwimbere harimo umuhanda wa kaburimbo ugenda uzengurukamo.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyenda y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, bari gufata ibyuma bitandukanye bagenda bareba ko bigikora neza kugira ngo bazabikoreshe.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo, abagore n'abana, bari kujya mu kigo kinini kirimo ibiti, ibyatsi ndetse harimo n'umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho abantu bakoresha mu buzima bwa buri munsi, ibyo bikoresho bituma abantu bagira ubumenyi butandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, ni inyubako ubona ko irimo intebe nziza ameza ndetse n'ibindi bikoresho.

Icyumba kirimo abagabo babiri bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku n’ubururu, ni ahantu ubona ko hatangirwa serivisi z’irembo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo amabara y'umukara umweru ndetse n'ubururu. Ni ahantu hari abantu benshi baturutse mu bice bigiye bitandukanye.

Ikigo kinini gikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, gisakaje amabati y'ubururu. Ni ahantu harimo indabo nyinshi ndetse n'ibiti by'imikindo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo amabara y'umukara umweru, n'icyatsi. Ni inyubako ubona ko ari ndende kandi yubatse neza.

Inyubako nini yiganjemo ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane cyane ibitanda byo kwa muganga mwimbere harimo amabara y'umweru ubururu ndetse n'amabara y'umukara.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu irimo amabara y'umweru, iyi nyubako ubona ko itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane iz'ubuvuzi, ni ahantu ubona ko ari heza.

Kwa muganga hari ibikoresho bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha barimo kuvura abarwayi. Harimo kandi inyubako zubakishije ibirahure, ubona ko zigezweho.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga kugira ngo batange ubufasha ku barwayi. Harimo ameza, intebe ndetse n'ibitanda baryamaho kugira ngo bafashwe.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo n'ubururu, ni inyubako ubona ko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byiganjemo ubuvuzi, ubucuruzi ndetse n'ibindi, na hantu ubona ko ari heza.

Umuganga uri kuvura umurwayi, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru. Ni umuganga ubona ko atanga serivisi nziza kandi zinoze, bityo abarwayi bagataha bishimye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi ni inyubako isize amarangi y'umutuku, icyatsi umukara ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hari abantu bari kugenda impande y'inyubako, bagenda bayitegereza, iteye amarangi y'umukara, umweru n'umuhondo.

Inzu irimo intebe nyinshi n'ameza. Ni inzu igaragara ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Iyi nzu kandi irakeye kandi irashimishije isa neza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni inyubako ubona ko ari nini kandi ari nziza. Iyi nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aho abantu baba baturutse hirya no hino.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umutuku n'ayandi agiye atandukanye, ni ahantu ubona ko hatangirwa serivisi y'ubuvuzi.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abagabo ,abagore ndetse n'abakobwa. Bambaye imyenda irimo icyatsi ,umweru ubururu ndetse n'umutuku.

Ikigo kinini kiberamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, ni ahantu ubona ko hasakaje amabati y'ubururu ndetse ahagaze umugore ku marembo uhetse umwana.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye imbere y'inyubako nini. Baje mu bikorwa bigiye bitandukanye, bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi bambaye imyenda irimo umukara n'icyatsi.

Inyubako ifite ibirahure byinshi byubatse mu rugi, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi ndetse hatangirwa n'imiti yifashishwa n'abarwayi.

Inyubako nini yateraniyemo n'abantu baturutse mu bice bitandukanye, yiganjemo amabara y'umukara, ubururu n'umweru, imbere yaho hari umugabo wambaye imyenda y'umweru uri gukora amasuku.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru umuhondo ndetse n'umukara, iruhande rwayo hari imodoka iri gusohoka mu gipangu ubona ko ari nziza kandi yiganjemo amabara y'umukara n'umweru.

Umuganga uri kumwe n'umugabo n'umugore uri kwita ku barwayi, bari mu cyumba ubona ko gikorerwamo imirimo igiye itandukanye cyane cyane iy'ubuvuzi, uwo mugore uryamye ku gitanda yambaye ikanzu y'ubururu n'umweru.

Umusore uri kwa muganga ari kuvurwa. Yambaye imyenda y'umweru kandi urabona ko agiye gukira kubera ko arimo guseka.

Icyumba cyateraniyemo abaganga batandukanye bambaye imyenda y'umweru n'umukara. Ni icyumba ubona ko ari kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo abaganga ndetse n'abarwayi, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi, ni inyubako ubona ko irimo ibitanda, matera, ameza, intebe, ndetse n'ibindi.

Icyumba kirimo abaganga ndetse n'abarwayi, iki cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi harimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako nini zisize amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, izi nyubako kandi zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, abantu bakora buri munsi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi. Ni inyubako irimo amabara y'umuhondo ndetse n'andi mabara y'ubururu, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye ishati y'icyatsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, iruhande rwayo hicaye abantu bane, harimo abagore babiri n'abana babiri.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'icyatsi. Ni inyubako ifite ibyumba byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu baturutse hirya no hino.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari indabo nziza zigezweho. Ndetse hagati muri iyi nyubako, harimo umuhanda wa kaburimbo.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, birimo amabara y'umuhondo ndetse n'umweru. Ni ahantu ubona ko hari ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha mu kuvura abarwayi.

Icyumba kinini cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo abaganga ndetse n'abarwayi bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku.

Inyubako isize amarange y'umuhondo ndetse n'ubururu, hari abantu bari kugendamo benshi bagiye batandukanye, harimo ibiti ndetse n'indabyo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ubuvuzi n'ubucuruzi. Isakaje amabati atukura ndetse isize n'amabara y'umweru n'umukara. Ni inyubako ndende ubona ko ari nziza kandi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, irimo abantu urujya n'uruza baturuka hirya no hino, bambaye imyenda yiganjemo umukara umuhondo ndetse n'ubururu.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru. Ni inyubako ubona ko ari ndende yubakishije ibirahuri.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Iruhande rwayo haparitse imodoka y'ivatiri yifashishwa mu ngendo zitandukanye.

Icyumba kirimo umuganga uri kwesaya ibikoresho, birimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, ari kugenda areba uko bikora cyangwa se niba bikora neza ngo byifashishwe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane iby'ubuvuzi. Harimo intebe nziza z'amoko atandukanye ndetse n'imitako, bigaragara ko hahurira abantu benshi haba abakuru ndetse n'abana.

Kwa muganga hari abantu bambaye imyenda yabugenewe, kugira ngo bafashe abarwayi, aha hantu hari ibitanda, intebe, ameza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, abo bantu barimo abakecuru ndetse n'abasaza.

Inyubako yiganjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo ibitanda binini byiza ubona ko bikoranye ubuhanga aho abarwayi babirwariraho ndetse bakaryama neza.

Inzu nini yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abagabo babiri bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umuhondo baritegereza imbere ku rukuta ubona ko bari kwiga.

Inyubako nini igaragara nk'aho ikuze ikeneye umuntu uyivugurura, irimo amabara y'umweru n'umuhondo bigaragara ko ari ibitaro bya Caraes Ndera.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, biganjemo abana ndetse n'umusore, ni hantu ubona ko hari ibiti byinshi ndese n'indabo.

Umuganga uri gutanga serivisi z'ubuvuzi, yambaye imyenda y'ubururu ndetse n'imisatsi myinshi y'umukara yazirikiye inyuma, icyumba arimo kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'ubururu, ni ahantu ubona ko ari heza hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ni ahantu ubona ko ari heza hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye bifasha umuntu muzima bwa buri munsi.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibya siporo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ni inyubako irimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'icyatsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye cyane cyane iby'imyitozo ngororamubiri, ni inyubako ubona ko irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Inyubako nini yifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye cyane cyane Iby'ubuvuzi, irimo amabara yiganjemo ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Iruhande rwayo har’indabo nziza ubona ko zikeye.

Icyumba kinini gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, byiganjemo amabara y'umweru ndetse harimo n'ayandi y'ubururu, hahagaze abaganga bitegereza kubona ko bafite ibyo bareba.

Abakobwa bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu bambaye utugofero mu mutwe, hirya yabo hari ibiti binini ubona ko ari byiza kandi ibi biti biratoshye cyane.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara, ni ahantu ubona ko hari ibikorwa byinshi cyane cyane iby'ubuvuzi n'ubucuruzi.

Inyubako yahuriyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda yiganjemo: ubururu, umuhondo n'umukara.

Ibi ni ibikoresho, byifashishwa barimo kuzimya inkongi y'umuriro. Iyo bakoresha ibi bikoresho, bituma habaho ubwirinzi, kandi bukomeye.

Inyubako nini y'ibitaro bivurirwamo abarwayi. Inyubako ni nini cyane kandi yubatse mu buryo bugezweho, iteye amabara agiye atandukanye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, ni inyubako irimo abantu baturutse hirya no hino biganjemo abagabo, abagore ndetse n'abana.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kwaka serivisi y'ubuvuzi. Bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku ,umukara ndetse n'umweru.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru n'ubururu. Ni inyubako ubona ko iri ahantu heza hitegeye. Ni ahantu hari ikibanza kiza kigurishwa amafaranga menshi cyane.

Inzu nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi yiganjemo amabara y'umweru, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga kugira ngo batange serivisi nziza z'ubuvuzi.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umweru ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ni ahantu ubona ko ari heza kandi hisanzuye bityo hagahurira abantu benshi baje gushakaka serivisi.

Inzu nini igeretse gatatu, irimo amabara y'umutuku, umweru, ubururu ndetse n'iyandi agiye atandukanye, ni ahantu ubona ko hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini isakaje amabati y'ubururu, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni ahantu ubona ko ari heza haberamo inama nyinshi z'abayobozi baturutse hirya no hino.

Ibikoresho byifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, bakora imyitozo ngororamubiri, ibi bikoresho harimo ibyo baterura, ibyo bicaraho ndetse n'ibindi bahagararaho.

Icyumba kinini kirimo amabara y'umweru n'ubururu, n'ayandi agiye atandukanye, ni ahantu hakorerwa serivisi nziza abantu bagataha bishimye kandi banezerewe.

Inyubako nini igaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye nkameza, intebe, imitako ndetse n'ibindi higanjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ayandi agiye atandukanye.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umuhondo, umukara n'umutuku, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibikorwa by'ubuvuzi, ahantu hagaragara neza kandi bifasha abantu kubona serivisi nziza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi zitandukanye kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umuhondo. Hejuru muri parafo hari itara ricanye.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibitanda ndetse na matera zifashishwa n'abarwayi. Ni icyumba ubona ko kiberamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi, iyo nyubako isakaje amabati meza y'ubururu ndetse isize amabara y'umuhondo.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye higanjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu, ni ahantu ubona ko ari heza hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi.

Inzu nini iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye yiganjemo amabara y'umweru ubururu ndetse n'umukara, ni inzu ubona ko ari nini cyane kandi iberamo ibikorwa bigiye bitandukanyekana.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara. iruhande rwayo hateye indabo nziza, ubona ko zisamaje.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo ubuvuzi n'ubucuruzi, iyi nyubako yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu n'umukara.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'ayandi atandukanye, iruhande rwayo haparitse imodoka nziza ubona ko ari iy'abayobozi.

Umurwayi uri guterwa urushinge na muganga yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, uyu muganga ari kumutera urushinge yambaye uturindantoki tumurinda iyo ari kuvura.

Mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibyumba byinshi, ibi byumba kandi byifashishwa n'abantu batandukanye, barimo gukora imirimo myinshi.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye; harimo ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho, harimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'ayandi y'umukara.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umuhondo irimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, hamwe nibyatsi byiza bitoshye kandi bisa neza.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyifashishwa n'abaganga bavura indwara zigiye zitandukanye, harimo ibikoresho birimo amabara y'umweru.

Inyubako nini yiganjemo amabara y'umukara n'umweru aho abantu baturuka hirya no hino bahurira ndetse bagakora ibikorwa bigiye bitandukanye ahantu hakikijwe n'indabo nziza kandi zisa neza.

Inyubako nini ubona ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Iyi nyubako harimo ibitanda byinshi biryamwaho n'abarwayi mu gihe baje kwa muganga kwivuza.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo amabara y'umweru n'umukara, inyubako ubona ko irimo ibyumba byinshi bigiye bitandukanye aho abantu baturuka hirya no hino bakaza gucumbika.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, bar’imbere y'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yiganjemo ameza, intebe, ndetse n'utubati ni inyubako irimo amabara y'umweru, umukara, ndetse n'umutuku hagaragara neza kuko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, haba ibya siporo ubuvuzi, ubucuruzi, inama ndetse n'ibindi bitandukanye biteza imbere igihugu.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, kirimo intebe nziza, zirimo amabara y'umweru n'umutuku ndetse n'ubururu, mu cyumba cyiganjemo n'andi mabara.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, ni ikigo nderabuzima cya Tabagwe iwabo w'abandi bantu benshi, ubona ko bavuye mu ivuriro bishimye.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gihe barimo kuvura abarwayi. Ibyo bikoresho byiganjemo ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi harimo intebe z'amoko atandukanye, izegamirwa ndetse n'imbaho, harimo n'ibindi bikoresho by'amoko yose.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara ubona ko afite ikibazo cyo mu ivi ari kugenda akandishaho agatambaro kari mu ibara ry'ubururu, uyu musore afite ubwoya bwinshi ku maguru.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, inyuma ye hari imbuto bigaragara ko iyo umuntu avuye muri siporo agomba kurya imbuto kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'imikara n'inkweto z'umweru. Yicaye mu muhanda wa kaburimbo, aho yari ageze arimo kwirukanka.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye baje gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umuhondo n'umutuku, bigaragara ko barimo gukora siporo kandi nziza.

Umusore wambaye umupira w'ubururu, ufite n'akantu ku kuboko, ari kunywa amazi, ubona ko avuye mu myitozo ngororamubiri, imyitozo ngororamubiri ni myiza kuko ifasha umuntu kwirinda indwara zitandukanye.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'umukara arimo aranywa amazi abona ko yishimye siporo ni nziza kuko zifasha umuntu uzikora.

Amazi meza ni ubuzima. Hano hari kugaragara amazi y'urubogobogo. Iyo umuntu anyoye amazi bituma agira ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze.

Umugabo ufite impeta ndetse n'isaha ku kuboko, wambaye imyenda y'umukara n'umweru. Avuye mu myitozo ngororamubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri n'isengeri y'umuhondo. Ni umukobwa ubona ko ashinguye kandi ari mwiza.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho umuntu uvuye muri siporo yaje kwaka serivisi kubera ko yavunitse, bamugiriye inama yo kunywa amazi menshi kugira akire.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo umutuku, umweru ndetse n'umukara. Muganga ari kwita ku murwayi, wavunitse akaguru.

Umuntu wavunitse akaboko yambaye impeta, biragaragara ko yagize ikibazo mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none akeneye ubufasha kugira ngo akire.

Icyumba cyateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye biganjemo umuganga ndetse n'umurwayi bari mu cyumba kinini kirimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo.

Umuntu ufite amaboko meza, wambaye udukoresho twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngoramubiri ni myiza kuko ifasha umuntu kubaho neza.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara uvuye mu myitozo ngororamubiri n'umusore ubona ko ari mukuru kandi afite imyaka myinshi cyane.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isaha yambaye n'umupira w'umukara. Iyo umuntu akoze siporo bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze akabasha kubaho neza.

Inzu nini irimo amabara agiye atandukanye, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byiganjemo amabara y'umukara, umuhondo ndetse n'ubururu. N’ahantu hahurira abantu benshi bagahabwa serivisi zitandukanye.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga, bavura abarwayi. Ni igikoresho ubona ko kirimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku. Aho umuganga agikoresha kugira ngo avure abarwayi.

Aka ni agakoresho gakoreshwa kwa muganga, kugira ngo bavure abarwayi. Aka gakoresho gakoreshwa n'abaganga kugira ngo ibintu bigende neza kandi babafashe.

Umubyeyi w'umumama uri mu cyumba ari kumwe n'umwana we, ahantu bari hari uburiri bicayeho, bigaragara ko ari ahantu ku bitaro bivurizwamo abantu bagiye batandukanye.

Icyumba kinini kirimo umusore wambaye itabuririya y'umweru, ufashe umupira bakina mu ntoki, biragaragara ko ari kureba abaturage kandi yishimye.

Umukobwa n'umusore bari gukora imyitozo ngororamubiri. Bambaye imyenda y'umukara ndetse bafite amacupa y'amazi bari kugenda banywa. Biragaragara ko uyu mukobwa n'uyu musore bazi akamaro ka siporo.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, ubururu, umweru ndetse n'umutuku. Uyu mukobwa ari gukora siporo kugirango yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo umukara, umweru n'ubururu, ni ahantu ubona ko ari heza, hakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'umweru, urimo gukora ibikorwa bitandukanye yikanda mu ivi, afite ubwoya bwinshi ku kaguru, ubona ko ababaye kandi afite ikibazo gikomeye.

Imbuto zitandukanye, zifasha umuntu kwirinda indwara z'amoko atandukanye, harimo imineke, amagi, pavuro ndetse n'urusenda, bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Umuntu usa nkaho yavunitse mu ivi mu gihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, iyo umuntu akoze siporo bituma agira ubuzima bwiza.

Imbuto zitandukanye ziteretse ku meza harimo amagi imineke ndetse n'izindi iyo umuntu ariye imbuto aba ari byiza kuko zimufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda yiganjemo umweru, umutuku, umukara, umuhondo ndetse n'amabara y'andi agiye atandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru n'isaha ku kuboko, ni umusore ubona ko akora siporo kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyumba kinini kirimo umurwayi ndetse n'umuganga wambaye imyenda yiganjemo umweru ndetse n'ubururu, umurwayi aryamye ku gitanda, ubona ko umuganga arimo kumupima indwara yagiye zitandukanye.

Agakoresho kifashishwa n'abantu bafite ubumuga, karimo amabara y'umukara n'umutuku kazwi ku izina ry'igare, cyangwa se akagare agakoresho abantu barwaye ubumuga bicaramo.

Umukobwa urimo kwinanura, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'umweru, afite isaha ku kuboko kandi yambaye ekuteri mu gutwi.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'imikara, amasogisi y'umweru, bigaragara ko yavunitse akaguru, akaba akeneye ubufasha bwa muganga.

Umusore munini wambaye ubusa hejuru uvuye mu myitozo ngororamubiri, siporo ni nziza kandi ni ingirakamaro kuko ifasha umuntu kubaho neza kandi akagira ubuzima bwiza.

Umusore uri kunywa amazi wambaye imyenda yiganjemo amabara y'icyatsi, bari ahantu hanini hagaragara ko ari mu nyubako nini cyane ikorerwamo ibikorwa bya siporo bitandukanye.

Iki ni igikoresho bifashisha bavura abarwayi. Iyo muganga afite kino gikoresho, apima indwara umurwayi afite bityo akamusuzuma maze akamuvura.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w’umutuku, ufite imisatsi myinshi, ari kunywa amazi kuko amazi ari ingirakamaro kandi afasha mu buzima bwa buri munsi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi y'umukara, ni umukobwa w'imibiri yombi, ubona ko akora siporo za buri munsi.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'ubururu. Umukobwa uri mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umusore uri kumwe n'umukobwa bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umweru, bafite amacupa arimo amazi bari kunywa.

Umusore wambaye imyenda y'imikara ndetse n'inkweto z'imikara, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri. Siporo ni nziza kuko zifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi bityo akabasha kubaho neza.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa, yicaye imbere ya mudasobwa, ari kurebamo. Imbere ye hari ibitabo byanditsemo imyirondoro y'abarwayi, kugira ngo amenye abarwayi bari ku ivuriro.

Umuganga wambaye itabuririya y'umweru ufite agakoresho gapima abarwayi, mu ijosi yambaye karuvati nziza yiganjemo amabara y'umuhondo n'umukara.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara, ari kunywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu ufite icupa mu ntoki ry'ubururu. Iri cupa biragaragara ko ririmo amazi. Amazi rero ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu; kubera ko amufasha kugira ubuzima bwiza.

Umusore urimo gukoza akaboko inyuma mu mugongo, yambaye isengeri y'umukara irimo utubara tw'umuhondo, uyu musore kandi biragaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri.

Inyubako nini irimo abantu batandukanye, yiganjemo amabara y'umuhondo, ubururu, umweru ndetse n'umukara, ubona ko bari kwita ku murwayi bagirango ngo barebe ikibazo afite mu mugongo.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga, barimo kuvura abarwayi, ibi bikoresho ni ibikoresho by'ibyuma ubona ko bihenze kandi bigezweho.

Umuntu wavunitse mu nkokora yarambitseho agatambaro, biragaragara ko yagize ikibazo kandi akeneye ubufasha bw'ibanze.

Imodoka itwara abarwayi yiganjemo amabara y'umutuku n'umweru. Ni imodoka nziza ifite imbaraga kandi ikora neza. Itwara abarwayi bo mu bitaro bigiye bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umukara umweru ndetse hirya y'aho hari amabara y'icyatsi umuhondo n'umweru bigaragara cyane.

Igikoresho kwa muganga bifashisha basuzuma abarwayi kiri mu ibara ry'umweru n'umukara, iki gikoresho kirahenda cyane kandi kigura amafaranga menshi, biragaragara ko ari cyiza kandi gikomeye.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri arishimye kandi aranezerewe, ni umukobwa mwiza kandi ukeye bigaragara ko akora siporo neza.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, biganjemo abakobwa ndetse n'abasore, bari gukina umupira ubona ko ari amakipe abiri yahuye, bambaye imyenda y'umukara n'umweru, wagirango ni APR.

Icyumba kirimo umuganga ndetse ari kumwe n'umwana, iruhande rwe hari umuzungu, uri kwifotoza areba muri kamera.

Ibinini byifashishwa mu gihe bavura indwara zigiye zitandukanye zananiranye, iyo unyoye ibinini bituma woroherwa kandi ugakira vuba.

Icyumba kinini kirimo abantu baturutse impande n'impande, bari gukoreramo imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda y'umukara, umweru ndetse n'inkweto nziza cyane, zibafasha gukora siporo.

Amazi meza cyane ari mu gacupa. Iyo umuntu anyoye amazi agira ubuzima bwiza buzira umuze. Abantu bashishikarizwa kunywa amazi buri munsi.

Imbuto zitandukanye ndetse n'amazi. Iyo umuntu ariye imbuto, bituma agira ubuzima bwiza. Amazi na yo afasha umuntu kubaho afite ubuzima bwiza.

Abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye. Bafite inkweto nziza, abona ko bazikoresha imyitozo ngororamubiri kandi zirakomeye.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, byiganjemo amabara y'umweru n'umukara, ni ibikoresho abaganga bakoresha kugira ngo bapime abarwayi indwara bafite, bityo babeho neza.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo umweru umukara ndetse n'ubururu, ni ahantu ubona ko hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi, aho bita ku barwayi.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye isaha ku kuboko n'umupira w'umweru, biragaragara ko yifashe mu mutwe ndetse ababaye, ni umusore munini ubona ko ari muremure.

Imiti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho abantu bafite indwara zigiye zitandukanye baza kuyigura kugira ngo babashe kwirinda kandi bagire ubuzima bwiza.

Agakoresho gakoreshwa n'umuganga arimo gupima abarwayi, aragafata akakambara ndetse akumva uko umutima w'umurwayi utera.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda y'imikara n'inkweto z'umukara, arimo arataruka yongera asubira hasi bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Umusore uvuye mumyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umukara n'ubururu, ni umusore uri kunywa amazi kuko amazi ni igirakamaro mu mubiri w'umuntu.

Akagare karimo amabara y'ubururu n'umukara gakoreshwa n'abantu bafite ikibazo cy'ubumuga kugira ngo babashe kugera aho bagiye bidasabye ko babaterura.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara uri kumwe n'undi wambaye iy'umweru, barimo barakora imyitozo ngororamubiri kugirango bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, ari mu nyubako nini nziza kandi ikeye, biragaragara ko ari umusore uzi akamaro ka siporo.

Imiti gakondo imiti gakondo n'imiti yifashishwa n'abantu mu gihe bategereje ubufasha bwa muganga cyangwa se hari indwara zananiranye, kugira ngo babashe kwirinda ndetse bategereze ko bazahabwa ubufasha bwa muganga.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'icyatsi, afite icupa ry'amazi ubona ko arimo kuyimenaho kugirango ngo yumve ameze neza.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure abarwayi. Ni ibikoresho birimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'ayandi atandukanye, aho umurwayi aza agapimwa ndetse akamera neza.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye imyenda y'umutuku n'umuhondo. Yicaye ku mukeka yishimye kuko gukora siporo ni ingirakamaro, birinda indwara nyinshi.

Umuganga wambaye isaha ku kuboko n'itabuririya y'mweru, arimo arita ku murwayi wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umukara ubona ko afite ikibazo mu ivi.

Imiti itandukanye yifashishwa bavura indwara zananiranye, hari iri mu ducupa, iri mu dushashi ndetse n'iyindi irambitse ku meza abantu bakoresha.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye umupira w'ubururu, uri kunywa amazi iyo umuntu akoze siporo bituma agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye bambaye imyenda yiganjemo umweru, ubururu, icyatsi, n'umukara biragaragara ko ari ahantu heza bahuriye hakorerwa siporo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri wambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, inyuma ye hateye intebe ubona ko ari ndende kandi zigezweho.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga, barimo gupima indwara z'abarwayi. Umurwayi araza akakiryamaho maze bakamusuzuma bityo agataha afite ubuzima bwiza. Iki gikoresho kirahenze.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri, wambaye umupira w'umukara, uri kunywa amazi. Amazi ni ingirakamaro kuko arinda umuntu indwara zigiye zitandukanye, bityo bikamusaba guhora ayanwa, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuti w'igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Iyo umuntu akoresheje uyu muti neza abasha gukira vuba kandi akamererwa neza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Irimo amabara atandukanye ari mucupa. Utwo ducupa harimo utw'umuhondo ndetse n'umweru.

Umuravumba ni umuti wifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye, umuravumba kandi urafasha cyane kuko hari indwara nyinshi uvura bityo bigatuma abantu bakira izo ndwara.

Uducupa dutandukanye turimo imiti, utu ducupa tuzanwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu, iyo ukoresheje uyu muti bituma ugira ubuzima bwiza.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi yiganjemo amabara y'umuhondo, umweru, n'umukara, ni imiti abantu bifashisha kugirango ngo bagire ubuzima bwiza.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa kugira ngo hirindwe indwara zigiye zitandukanye. Uyu muti ukoreshwa n'abantu benshi kugira ngo bakire indwara zananiranye.

Ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibiribwa birimo imbuto inanasi, imineke amata ndetse n'ibindi ni ibintu ubona ko ari byiza kandi bifasha umuntu mu buzima bwa buri munsi.

Uducupa tubiri turimo imiti igiye itandukanye yifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi. Muri iyi miti twasangamo igikakarubamba ndetse n'umuravumba.

Iki ni igihingwa kifashishwa n'abantu bakoramo imiti igiye itandukanye, iki gihingwa kandi gihingwa ahantu hari ubutaka bwiza kugira ngo kere.

Umubyeyi witeye igitambaro cy'umweru, ufite imisatsi myinshi, arimo arasoroma imiti kugira ngo ayifashishe mu buvuzi gakondo.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa n'abantu mu buzima bwabo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Iyo ukoresheje umuti gakondo neza bituma ubaho neza kandi wishimye.

Imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, bwa kinyarwanda. Iyo umuntu atarabona muganga ngo amufashe, abanza kwifashisha imiti gakondo.

Igiti cya avoka cyifashishwa n'abantu batandukanye, iyo uriye imbuto ziva kuri iki gihingwa, bituma ugira ubuzima bwiza.

Imiti y'igikakarubamba ni imiti yifashishwa kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, iyo ukoresheje uyu muti neza bituma ugira ubuzima bwiza buzira umuze bityo ukabasha kubaho neza.

Umuravumba, umuravumba ni umuti ukoreshwa n'abantu batandukanye bivura indwara z'amoko atandukanye, harimo gapfura, inkorora ,ibicurane ndetse n'izindi ndwara.

Umuravumba ni umuti wifashishwa mu buzima bwa buri munsi, uvamo imiti igiye itandukanye ivura indwara z'amoko yose, harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo umuntu arwaye biba byiza iyo akoresheje imiti gakondo, kugira ngo abashe gukira vuba, kandi ibi birafasha.

Umurima uhingwamo icyayi, harimo abantu bari gusarura. Ni abakecuru bambaye imyenda y'ubururu n'umutuku.

Imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, yiganjemo amabara y'icyatsi, umuhondo n'umukara, iyi miti ifasha umuganga kuvura umurwayi byihuse.

Abantu bahuriye mu nyubako nini baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku. Ahantu bari urabona ko hari inzoga zigiye zitandukanye bacuruza.

Ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi ubona ko gikorwamo umuti gakondo. Imiti gakondo yifashishwa n'abantu barwaye kugira ngo babashe gukira kandi bagire ubuzima bwiza.

Umuti uri mu gacupa k'umweru n'umuhondo, ukozwe mu gikakarubamba. Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kandi zigahita zikira.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Iyo umuntu akoresheje umuti gakondo, bituma agira ubuzima bwiza. Uyu muti kandi umuntu awifashisha, iyo atarabona amafaranga yo kujya kwa muganga.

Imiti yiganjemo ibinini bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Ni imiti ubona ko yifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo babashe gukira kandi bivuje neza.

Icupa ry'umweru rivamo imiti, iyi miti ivamo iba ikozwe mu gikakarubamba, igikakarubamba kandi ni umuti wifashishwa n'abantu kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Hari imiti iri mu ducupa n'iyindi iri mu mashashi. Iyi miti yifashishwa kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo, yiganjemo ibyatsi bitandukanye. Umuti gakondo ufasha umuntu gukira indwara zananiranye, bityo akabaho neza.

Imiti irimo igikakarubamba, igikakarubamba ni umuti wifashishwa kubera ko uvura indwara zigiye zitandukanye zirimo inkorora, ibicurane n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye; irimo umuravumba, igikakarubamba ndetse na bambuba. Ni imiti yifashishwa mu kuvura.

Imiti gakondo yiganjemo ibyatsi bikurwa mu bice bitandukanye, kugira ngo bifashe abantu mu gihe batarabona muganga, imiti gakondo ifasha kuvura indwara zananiranye ndetse n'izindi zitarabona muganga.

Izi ni imboga zifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu bazikoreshe birinda indwara zigiye zitandukanye, zituruka ku mirire mibi.

Abagore bambaye imyenda y'akazi barimo gusoroma icyayi. Barimo barasoroma icyayi kugira ngo bagikoremo ibinyobwa bigiye bitandukanye bibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Imiti gakondo itandukanye ifasha abantu, mu gihe batarabona ubufasha bwa muganga, ni imiti banywa cyangwa se bakahekenya, ni imiti myinshi igaragara mu mabara y'umweru n'ubururu.

Tungurusumu ni umuti wifashishwa kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye. Iyo umuntu akoresheje uyu muti neza, bituma agira ubuzima bwiza. Si ibyo gusa kandi tungurusumu bayifashisha barimo no guteka.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye, iyo umuntu akoresheje uyu muti neza bituma havurwa indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo igiye itandukanye, yiganjemo amabara y'umutuku umuhondo umukara ndetse ni'cyatsi kibisi, ni ahantutu ubona ko hahurira abantu benshi baje kwivuza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Iyo umuntu akoresheje umuti gakondo ,biramufasha kuko abasha kwita ku buzima bwe.

Imiti gakondo yifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye. Ndi kubona ukuboko k'umuntu uri gusoroma umuti, kugira ngo awifashishe avura.

Imiti yifashishwa mu buzima busanzwe, ni imiti gakondo ikozwe mu biti bigiye bitandukanye ndetse n'ibyatsi birimo amabara y'umuhondo ,umukara ndetse n'umweru.

Umuntu ushushanyije ku gishushanyo ubona ko afite ikibazo cyo mu nda yambaye imyenda y'imikara kandi urabona ko atishimye kandi ababaye.

Ibiti byinshi byiganje mu ishyamba, aho abantu bakura imiti gakondo. Imiti gakondo yifashishwa n'abantu, kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa n'abantu bagiye batandukanye, kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Iyo umuntu arwaye biba byiza iyo akoresheje uyu muti kuko bimufasha.

Ibiti birebire byifashishwa mu kuvura ari byo bita imiti gakondo. Imiti gakondo ni imiti yifashishwa kugira ngo hirindwe indwara zigiye zitandukanye mu gihe umurwayi ategereje ubuvuzi bwo kwa muganga.

Imiti yiganjemo amabara y'icyatsi ndetse n'umutuku, iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara yitwa gapfura, gapfura ni indwara ifata mu mutwe kugira ngo abantu bayikire bagomba kunywa iyi miti.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje kugura ibicuruzwa by'amoko atandukanye, harimo umunyu, intoryi, inyanya, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo. Ni imiti abantu bakoresha kugira ngo bakire kandi indwara zabo bazivure hakiri kare. Iyo batarabona muganga bakoresha imiti gakondo.

Umugabo ufite agapfunyika karimo umuti gakondo, umuti gakondo ni umuti wifashishwa n'abantu iyo bategereje umuganga ubafasha, bakawifashisha kugira ngo babe bivuye by'akanya gato.

Uru ni urutonde rw'imiti y'igikakarubamba ndetse n'iyindi igiye itandukanye, iyi miti yifashishwa kugira ngo bavure indwara zananiranye maze ziranduke burundu.

Abatandukanye bari kujya mu bice hirya no hino ubona ko bari mu rugendoshuri. Bari kujya mu misozi ahantu ubona ko hatemba amazi mu ishyamba rinini.

Umuntu uri gukoresha uburoso agirango ngo asukure amenyo, gukoresha uburoso ntabwo biba bihagije kuko iyo ukoresheje akadodo nibwo uba usukuye amenyo neza.